Icyumba giteraniyemo abantu benshi batandukanye bari kwiga ku ngingo zimwe na zimwe zitandukanye. Aba bafite buri wese amazi imbere ye ndetse hari n'undi uhagaze uri kubabwira afite indangururamajwi kugira ngo bose babashe kumva ibyo bavuga.

Abantu batanu bateraniye ahantu hamwe, imbere hari mudasobwa hari amazi yo kwifashisha bakora, bafite telefone imbere yabo zitandukanye ndetse aba bari kwiga ku bintu bitandukanye harimo umumama umwe n'abagabo bane.

icyumba cy'inama giteraniyemo abayobozi batandukanye bari ku ngingo zitandukanye, aba bayobozi bari kugirana inama na kigali yacu micyo bari kwiga. Ese Kigali yacu yaba yita ku isuku n'umutekano wa Kigali yacu n' iterambere rya Kigali yacu.

Ibirango bibiri inyuma y'abantu batatu, abagabo babiri n'umuntu umwe. Inyuma hari ikirango cyanyandikishijeho Kigali yacu kiri mu ibara ry'ubururu cyanishijeho amagambo y'umweru; hari ikindi cyandikishijeho amabara y'umweru ariko kiri mu ibara ry'icyatsi. Inyuma

Ahantu bateraniye hamwe batandukanye harimo aba mama, aba papa ndetse bari mu ngingo zitandukanye bambaye imyenda itandukanye, yambaye imipira y'ubururu uri imbere ufite indangururamajwi yambaye ishati y'umweru kandi bigaragara.

Inzu y'inama irimo abantu batandukanye, harimo abakora akazi gatandukanye aha hagaragaramo imbere abayobozi bayoboye inama bari mu nzego zitandukanye harimo izishinzwe umutekano. Iyi nzu iragaragaramo abanyamakuru bashinzwe gukwirakwiza ibyabereye muri iyo nama.

Inama ikubiyemo abantu batandukanye, kandi iyi nama yagaraga ko buri wese afite indangururamajwi imbere ye ndetse afite n'icyo kunywa imbere kizwi nk'umutobe uryohereye, aba inyuma yabo hari ibirango bitandukanye bigaragaza ibihugu bigiye bitandukanye, bigiye biri mu ma rapo yabyo.

Icyumba giteraniyemo abantu batandukanye bari kwiga kuri bimwe na bimwe. Iki cyumba giteraniyemo abantu bambaye imyenda y'imikara, abandi bambaye imyenda y'imituku, abandi bambaye imyenda y'imweru. Iki cyumba buri wese afite indangururamajwi imbere ye ndetse na mudasobwa imbere ye.

Mu babyeyi bateraniye hamwe bari kuganirwa ku ngingo zitandukanye harimo aba mama aba papa bamwe barahagaze abandi baricaye, inyuma yabo hari icyapa gifite amabara atandukanye kiriho n'ibirango bitandukanye icyapa kigaragara ko hari icyo kikumenyesha barimo kwigaho.

Mamwe mu bantu bari hano bambaye imyambaro itandukanye bari mu bikorwa bitandukanye. Aba bambaye imyenda y'icyatsi abandi bambaye imipira y'ubururu, bambaye ingofero, harimo umuyobozi ushinzwe umutekano uzwi nka daso. Uyu yambaye imyambaro y'icyatsi iriho idarapo ry'igihugu.

Inzu y'inama irimo abantu batandukanye bicaye bari kwiga ku kibazo gitandukanye. Iyi nzu yicayemo abantu bicaye ku ntebe z'umukara, bayobowe n'umuntu imbere umwe. Uyu umuntu yicaye hagati y'idarapo ry'igihugu ndetse n'ikirangantego, hakazamo umunyamakuru ushinzwe gukwirakwiza ibyabereye muri iyo nama.

Icyumba cy'inama giteraniyemo abantu batandukanye bari kwiga ku ngingo zitandukanye zabafasha, harimo aba n'aba papa batandukanye, icyumba kirimo intebe zifite amabara y'umuhondo harimo namameza afite ibitambaro by'umutuku birimo n'umweru mwinshi wiganjemo kandi iki cyumba.

Mu icyumba k'inama giteraniyemo ingeri zitandukanye z'abantu bicaye mu ntebe z'umukara, bicaye ku meza afite ibara ry'umutuku, inyuma yaho hari umuntu ushinzwe gukusanya amashusho ufite igikoresho gishinzwe gukusanya ayo mashusho, kandi buri wese afite akarangururamajwi imbere ye, n'abafite mudasobwa imbere yabo n'ucupa tw'amazi.

Abayobozi batandukanye bari imbere y'abaturage, bari kubabwira ku ngingo zitandukanye ndetse abaturage bicaye bose bumva icyo abayobozi bababwira, harimo abashinzwe umutekano mu rwego rwa Dasso.

Abantu batatu harimo babiri n'umumama umwe, imbere y'uwo mu mama hari mudasobwa, n'agacupa k'amazi, imbere imbere y'uwo mupapa hari agacupa k'amazi n'amatelefone y'abo agendanwa bari kwiga ku ngingo zimwe na zimwe zitandukanye.

Abantu bateranye mu nama batandukanye harimo abanyarwanda ndetse n'abandi bo mu bindi bihugu bitandukanye imbere yabo hari amazi ndetse buri wese ari kwandika ku mpapuro z'umweru ndetse no gukoresha bimwe mu bikorwa bitandukanye.

Abantu bateraniye mu nzu y'Imana bari hamwe bari kwiga ku kungingo zitandukanye aha buri wese afite indangururamajwi imbere ye kandi buri wese yicaye ku ntebe ifite ibara ry'umukara, aba papa babiri ndetse na mama umwe bicaye inyuma nawe uteraniye muri icyo cyumba cy'inama.

Abantu bari hamwe aba papa aba mama bahagaze hamwe bambaye neza mama yambaye imyenda yumukara wa papa bambaye imyenda yu'ubururu ariko si bose harimo abambaye imituku harimo abambaye umweru ndetse bahagaze hamwe bafite ama baji aranga ibyo bakora.

Icyumba gikorewemo inama, kirimo abantu batandukanye ndetse abantu bagaragara ko bari mu bintu bitandukanye. Iki icyumba kirimo intebe nyinshi kandi zicayeho abantu, buri wese yicaye ku ntebe ye. Iki cyumba harimo intebe z'umukara izindi z'umutuku ndetse n'izindi z'umuhondo. Iki cyumba giteraniyemo abantu imbere bafashe ku madarapo y'igihugu cy'u Rwanda.

Abamama, abapapa bari mu cyumba cy'inama, bari kwiga ku ngingo zitandukanye zateza igihugu cyacu imbere. Icyo cyumba amameza ariho ariho ibitambaro by'umweru, buri wese imbere ye afite amazi ye yo kunywa.

Umwe mu bashinzwe umutekano mu gihugu cyacu ,wambaye imyenda y'umukara irimo amabara y'icyatsi yandishije amagambo y'umweru. Uyu ahagaze imbere y'ababaturage bafite icyapa cy'umweru cyandikishijeho amagambo y'umukara.

Abantu bateraniye hamwe bicaye mu ntebe z'umweru bateraniye ahantu bari kwiga ku ngingo zitandukanye, imbere yabo hari abandi babiri umu mama n'umupapa hari ibyo bari kubaganiriza bitewe n'ibyo bari kwigaho hano umwe yicaye

Icyumba giteraniyemo urubyiruko rwinshi rwibumbiye hamwe, bari kwiga ku bikorwa bitandukanye. Urugerero rw'u Rwanda uko rukorwa. Bambaye imipira y'umuhondo bose n'abandi bambaye imipira y'icyatsi baragaragara...

Abantu bicaye hamwe bateraniye hamwe bari kwiga ku ngingo zimwe na zimwe zitandukanye. Imbere bahagaze umumama ubayoboye muri izo ngingo wambaye ikanzu ifitemora amabara y'umweru n'umukara n'umutuku kandi impeza bicayeho ziriho ibitambaro by'umutuku buri wese afite ingingo imwe imwe.

Icyumba cy'inama giteraniyemo ingeri zitandukanye z'abantu bashinzwe ibikorwa bimwe na bimwe bitandukanye, harimo abamama bambaye amakote y'umutuku, harimo undi muntu wambaye ikote ry'umweru n'abapapa nabo barimo.

Icyumba giteraniyemo abantu batandukanye, abamama n'abapapa, iki cyumba buri wese afite mudasobwa imbere ye ndetse n'akarangururamajwi imbere ye, iki cyumba harimo ibirango bibiri, harimo idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'ikirango cy'u Rwanda.

Icyumba cy'inama giteraniyemo ingeri zitandukanye, icyumba cy'inama kirimo abamama, abapapa, abakobwa n'abahungu, aba bari kwita ku ngingo zitandukanye kandi buri wese yicaye ku ntebe ifite ibara ry'umutuku ndetse babiri bahagaze mu bayoboye bafite ibyo bari kubabwira.

Shishoza igihe uhamagawe cyangwa wakiriye ubutumwa busaba amafaranga ndetse n'ubundi bushukanyi bwiyitirira ibigo by'itumanaho n'izindi nzego zitandukanye.

Abantu batandukanye bicaye bafite mudasobwa zitandukanye buri wese ari mu bye ari gukora, umwe afite mudasobwa yambaye ingofero y'umutuku undi afite terefone yambaye ishati y'umukara. Hari undi ufite mudasobwa wambaye ikoti ry'umukara wicaye iruhande rwe.

Ikigo gishinzwe ubuzima RBC, kiragaragaza uko wakuzuza nimero na kode ndetse n'uko wabireba, noneho kikaguha nimero zo guhamagara, zeru, karindwi, kabiri, gatanu, karindwi, icyenda, kabiri, umunani, kane, kabiri.

Ikigo gishinzwe gutwara abantu n'ibintu RURA, gitanga serivisi zitandukanye aho uyikeneye, wahamagara kuri zeru, karindwi, umunani gatatu, icyenda kane, icyenda gatandatu gatanu gatandatu, cyangwa ugahamagara kuri zeru karindwi umunani umunani, kane gatandatu zeru kabiri rimwe, kane .

Agace kagaragaramo igiti gishinzwe gukusanya net wake kizwi nk'iplon, iki giti gishinzwe mu gace gatandukanye cyubakiye neza hafi yabo hari akazu gafite umuryango w'ubururu gateyamarangi y'umweru kubakishije amatafari ahiye icyo giti gikorotishijwe ibyuma by'amarange y'icyatsi.

Itangazo ni iki kigo gishinzwe iby imisoro mu rwanda kwigaragaza ubushake uyu munsi ni wo wa nyuma wo kwigaragaza ubushake igaragaza imisoro utamenyekanishije mbere ya bibiri namakumyabiri nagatatu rikurirweho amande y'inyungu z'ubukererwe tariki.

Igiti gishinzwe gutanga itumanaho mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Iki giti kishushanyijeho amabara atandukanye arimo umutuku, umweru. Iki giti gikoze mu byuma kandi gifite umutekano bitewe n'uburyo kiba gikoze.

Igiti gishinzwe gukwirakwiza itumanaho mu Rwanda, giherereye mu gace kamwe kagize igihugu cy'u Rwanda, nyuma y'icyo giti ho hari inzu zubakishijwe amatafari ahiye ndetse zifite amabara y'umuhondo. Icyo giti kizengurutswe n'utwuma tugifunga, tukirindira umutekano kugira ngo buri wese atabasha kuba yahinjira uko abonye.

Abantu babiri batandukanye umwe ari mu kazi ke undi amugana, yaje kwiteza urushinge rw'indwara runaka, nyuma y'iminsi ibiri biraba birangiye ni ukuvuga ngo uriteguye guterwa uru rukingo.

Inyubako igaragara ko iri mu cyaro nadrate imberegakora inyubakokana batanga serivisi zitandukanye batanga serivisi zo kubikuza amafaranga kubitsa ndetse no kohereza isi no kwishyura' ibindi bintu bitandukanye.

Inyubako ndende igaragara muducce tugize igihugu cyacu cy'u Rwanda iyi nyubako iragaragara mu mabare wi'ibyatsi hafi yinkouko hari igihe kikikije gifite amabara y'umudugu yubakishiwe uriba iyi nyubako yubatse neza ifite insinga z'amashanyarazibona ko yagezweho n'iterambere.

Urubuga rw'irembo, rudufasha kubona ibyangombwa bimwe na bi rimwe dukeneye, yaba ku murenge cyangwa ku kagari. Bisigaye byororoshye tujya ku irembo, tukabasha kubona ibyo byangombwa, bitadusabye kujya gutonda umurongo ku murenge ndetse no ku karere.

Urubuga rw'irembo rwateye imbere hano mu Rwanda rusigaye rudufasha mu kubona serivisi zigiye zitandukanye aho waba uri mu rugu ukabyikorera n'irembo ukoresheje telefoni yawe ngendanwa kandi ukabona serivisi yawe ushaka mu buryo bworoshye kandi bwihuse. Uru rubuga buri wese yarukoresha ndabimushikaje.

Umumama wicaye ku meza, amarinete yayashize ku meza, yicaye kuri mudasobwa ari mu kazi, biragaraga ko uyu mumama yambaye ikote, yasetse kandi yishimye cyane. Yishimiye akazi ari gukora, biragaragara ko uyu mumama akazi ari gukora, agakunze kandi anezerewe.

Inzu igaragara ko ikinze ariko iriho ibyapa bitandukanye by'ibigo bitandukanye harimo ibyapa ibyapa by'itumanaho, harimo n'ibindi byapa byamamaza ibyo bakoreramo imbere, iyi nzu iriho ibyapa byinshi harimo n'itumanaho cya Airtel harimo n'ibindi byapa bitandukanye byanditseho amagambogambo atandukanye.

Icyapa kibuza ndetse kinemeza ibikenewe, icyapa kirabuza aha kunwanywera itabi ndetse no kuza nta myenda y'ubwirinzi ufite, kikemeza kuza ufite ingofero y'ubwirinzi, inkweto z'ubwirinzi, ndetse n'imyambaro yo mu ntoki ariyo ga.

Menyekanisha imisoro yawe nibyawe sura urubuga ukoresheje kannyeri munaniveruzeru urwego ushurire urubuga rwa RURA. RURA ni ikigo gishinzwe imisoro, sura urubuga umunsi wanyuma utararangira.

Abantu bari hamwe bateraniye mu cyumba kimwe batandukanye, harimo abambaye imyenda y'umutuku, ipantaro y'umukara, inyuma yabo hari abandi bambaye imyenda itandukanye n'iyo bambaye abari imbere.

Iminsi yo gutanga igihembo cya gusura u Rwanda. Gusura u Rwanda ni ibintu byiza kuko hari ibyiza byinshi byo gusura harimo inyamaswa ndetse n'ibindi byiza binogeye amaso.

Igiti gishinzwe gukwirakwiza amashanyarazi, kirimo insinga zirenze rumwe hafi aho hari n'igiti kiriho itara rimukira umuhanda, kugirango abaricamo bacemo bareba, ibyo biti ni ibiti bibiri byegeranye kandi biriho byose ku nsinga.

Umuhanda nyabagendwa urimo kujya mubi bice bitandukanye, hafi y'umuhanda hari ibiti bishinzwe gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi, hepfo y'ibyo biti hari inzu ifite urugo ruteye irangi ry'umuhondo, hafi y'urwo rugo hari indi nzu, ifite ibara ry'umutuku.

Agace kamwe mu tugize u Rwanda hateye imbere gafite umuriro gatuwe ku muhanda wubatse akazu k'abagenzi kugira ngo babarinde izuba n'imvura, hanyuma abantu batandukanye abagore, abapapa ndetse n'abantu bari mu bindi bikorwa byinshi bitandukanye.

Igiti cy'amashanyarazi gishinzwe kohereza mu baturage, kigaragara kiriho insinga nyinshi zijya mu bice bitandukanye, aho abaturage bagiye batuye, iki giti kirabujijwe kucyurira cyangwa kugikiniraho kuko gishobora guteza ibyago.

Umuhanda nyabagendwa, uyu muhanda nyabagendwa uragaragaramo amabara y'umukara n'umweru, hateye ku ruhande icyapa cy'umweru umutuku, hafi y'icyo cyapa hari ibimera n'ibiti ndetse ibyo biti birimo amabara y'umuhondo.

Igiti gishinzwe kukwirakwiza amashanyarazi mu baturage, igiti kiri hafi y'inyubako ifite ibirango bitandukanye by'ibikorerwa muri iyo nzu, iyo nzu iragereritse ifite amabara atandukanye ayiteye y'amarangi.

Umuhanda wegerewe n'inyubako hari igiti gishinzwe kureba ava mu baturage hari umubyeyi w'umuntu uri kugenda abyerekeza mu bitekerezo gitandukanye kandi uyu muhanda ni uyiterereye.

Igiti gikwirakwiza amashanyarazi giteye hasi y'urugo rufite ibara ry'umuhondo, rusakaje amabati ndetse iki giti kirimo insinga nyinshi zigana ku abaturage batandukanye baturiye aho hafi.

Igiti cy'umukara, gishinzwe gukwirakwiza umuriro mu baturage, iki giti kiriho urutsinga rw'umukara, kandi kiri hafi y'ahubakishijwe amabati azengurutse aho ngaho, haragaragara n'ibindi biti bizwi nk'ama pironi byinshi, bishinzwe gukwirakwiza uyu muriro w'amashanyarazi.

Kamwe mu gace ko mu Rwanda gatumwe n'abaturage. Aka gace kagaragaramo ko kubatse urwego rwo kwirinda isuri. Haragaragara igipangu gifite urugi bw'umukara, hafi y'icyo gipagu hari igiti cy'amashanyarazi, gishinzwe gutanga umuriro kubatuye ako gace.

Ahazwi nk'ahacururizwa ibikoresho bikenerwa mu nzu, harimo ibitanda, utubati, intebe, hazwi nko mu Gakinjiro, haragaragara inyubako zitandukanye zifite amabara atandukanye, harimo inzu ifite ibara ry'umuhondo, hafi ahacururizwa hari igiti gishinzwe gukwirakwiza amashanyarazi.

Ibara ry'umuhondo ryanditsemo ijambo MTN ryandikishijwe amagambo y'umukara hafi aho hari ubukarabiro rwubakishije amakaro y'umweru, hafi y'urwo rukarabyo haparitse umumotari utwara ikinyabiziga cya moto wambaye ijeri y'umutuku kandi yambaye kasike z'icyatsi hafi y'uwo mumotari hari imitaka nanone ya MTN.

Umuntu uri ku giti gikwirakwiza amashanyarazi mu baturage yambaye imyenda y'ubururu kandi aragaragara ko yazamukiye ku ngazi kugira ngo abashe kugera aho hejuru ashaka kugera. Uyu nguyu agaragara ko ari gukora umuriro.

Inyubako ziri kubakwa ahantu hatandukanye ,bimwe mu bice bitandukanye byo mu rwanda inyubako zigezweho zigeretse ziri kugaragara ko ziri kubakwa kandi ku bwinshi, inyubako iri kugaragara hafi y'umuhanda, hari umuhanda nyabagendwa n'ibinyabiziga n'abantu benshi batandukanye.

Ahakusanyirizwa umuriro w'amashanyarazi, hagaragara moteri ishinzwe gukusanya umuriro no kuwukwirakwiza mu baturage bahaturiye, aha kigaragara ko gitewe hafi y'inyubako ifite amabati y'umutuku, hari n'ibindi binyabuzima bigikikije nk'ibiti ndetse n'ibindi bimera bitandukanye.

Igiti kigaragaza gikwirakwiza amashanyarazi mu buryo butandukanye ku baturage. Icyo gice kiragaragazamo hejuru yacyo ko hari ifoto y'igicu cy'ibara ry'ubururu giherutse n'ibara ry'umweru.

Icyapa kigaragaza ibitaro bya Kacyiru, kiriho idarapo ry'igihugu, kiriho ikirango cy'igihugu cy'u Rwanda, gikoze mu ibara ry'umweru, cyandikishijeho amagambo y'ubururu, gikikijwe n'ibara ry'umukara, iki cyapa kiri ku muhanda aho ujya kwinjira kuri ibi bitaro.

Ikigo gishinzwe gufasha abarwayi, kiragaragara imbere hari abantu bahagaze batatu, harimo imodoka iparitse ikoreshwa mu gutabara yitwa Ambiranse iri mabara y'umweru yandikishijweho amagambo y'umutuku n'ubururu.

Abaturage baje kugana ivuriro bakeneye serivisi zitandukanye harimo ubuvuzi bw'abana, ubwa abantu bakuru, ndabona ari aba mama, aba papa baje gukenera izo serivisi zitandukanye muri iki kigo gishinzwe ubuzima n'ivuriro.

Inzu igaragara ko yubatse nziza ifite amabara y'umuhondo ifite imbere haparikwa imodoka ahanini kandi yisanzuye, ndetse igaragara ko iri ahantu hagatiikipangu cyubatse nacyo gikolotiririye cyubakishije amatafari giteye irangi cy'umuhondo inzu iragaragara inyuma yaho haparitse imodoka y'umukara.

Inzu yubakishije amatafari ahiye igaragaraho abantu batandukanye, iyi nzu itatsemo amabara y'umuhondo isakaje amabati. Iyi nzu hafi yaho hateye indabo zitandukanye kandi hari ahaziritse agatambaro kari mu mabara y'umutuku n'umweru.

Inzu igaragara n' amatafari ahiye yubatse izwi nk'ibitaro ibi bitaro byubatse neza kandi'imbere bafite urubaraza rutuma abarwayi cyangwa abakozi baho batanyagirwa mu gihe cy'imvura bakomeza akazi mu buryo bwiza kandi bushoboka.

Inzu nziza igeretse igaragara amabara y'umuhondo ndetse iyi nzu iragaragara ko yubakishije amatafari ya ruba, iyi nzu hafi yaho hari umuhanda urimo abantu batandukanye kandi inzu ifite jaride nziza cyane izengurutse.

Inyubako igaragara nk'aho icururizwamo imiti, hanze y'iyo nyubako, hari ikirinda inkongi cyitwa kizimyamwoto, iyo nkongi iragaragara mu ibara ry'umutuku, riri ku gikuta giteye irange ry'umuhondo.

Abantu batandukanye, harimo abazungu, baherereye mu kibuga cy'ibitaro bya Masaka, aha ibitaro bya Masaka byubakishije amabuye ahiye, bifite amabara y'umweru, ndetse abangaba bambaye nabo imyenda itandukanye.

Inzira igaragaramo, irimo kaburimbo, muri iyo nzira iri hagati y'amazu menshi afite amabati y'umutuku, izo nzu amazi avaho afatwa n'ibigega by'umukara, biri hagati muri izo pasiparume ndetse muri iyo nzu.

Ikigo cy'amashuri kigaragara neza cyane, cyubakishije amatafari ahiye, gifite ubwugamiro bw'izuba n'imvura, ku nzira y'abantu bakigana, gifite pasiparume, ibiti bindi bikurura umuyaga mwiza, mbese iki kigo cyubakishije amababiti y'umutuku.

Abantu bari hamwe bambaye imyambaro isa irimo amatabu y'umweru, aba bari kugenda hafi y'inzu ifite amatafari ahiye, ndetse isagaraje amabati y'umutuku kandi ifite n'ibara ry'umweru.

Wari uzi ko ukwiye kwirinda abagira ibyo bagusaba bakwizeza kuzagufasha kubona ubutabera mu nkiko, birinde ubutabera ntibugurwa ahubwo burakorerwa kandi bukagerwaho.

Abaturage bari mu nkiko gacaca, inkiko gacaca ni ahantu bakoreraga ubutabera bw'abaturage bwungaga abantu bukanabahuza bukongera ubucuti mu baturage, inkiko gacaca yari nziza cyane.

Abagororwa b'abamama bari bambaye irose bari kumwe nabashinzwe umutekano wabo, bari kwinjira aho baba, inzu binjiramo yubakishije amatafari ahiye, harimo imirongo y'umuhondo urugi rwabo ruriho irangi ry'umuhondo n'umukara, handikishijeho amagambo y'umuhondo.

Mu rukiko hagaragaramo abantu batandukanye. Harimo abamama, abapapa, bambaye imyenda y'umukara, ifiteho utubara tw'umweru. Ni urukiko ruhuriramo abashinjacyaha, harimo abacamanza batandukanye harimo n'abanyabyaha.

Abantu bagaragara mu myenda itandukanye irimo iroza y'amakabutura kandi isa. Aba bamwe bagaragara bafite udupfukamunwa ku minwa yabo kandi abo bose bogoshe imisatsi yabo imazeho, begamye ku gikuta cy'inzu ifite amatafari ahiye.

Ubushinjacyaha ni urwego rwa polisi rushinzwe kugenza icyaha, biugaragara ko rwafashe umunyabyaha, rumuherekeza mu rukiko, umunyabyaha yambaye ikanzu y' umukara n'amabara y'umweru, afashwe n'abapolisi bambaye imyenda iranga aho bakorera.

Inkiko gacaca. Ukuri kurakiza, tuvuge ibyo twabonye, twemere ibyo twakoze bizadukiza. Iki cyapa giteye ku muhanda, aho icyo cyapara imodoka zijya mubyerekezo bitandukanye, ikamyo itwara imizigo y'ubururu, n'indimodoka ntoya y'umweru.

Perezida Paul Kagame umuyobozi w'igihugu cy'u Rwanda, ahagararanye n'abandi batandukanye bambaye imyenda y'umutuku irimo n'andi mabara y'umweru, bahagaze imbere y'idarapoda ry'igihugu cy'u Rwanda riri mu mabara y'umuhondo, ubururu n'icyatsi.

Icyapa cy'ingororero rya Huye kigaragara mu ibara ry'umweru cyandikishije amagambo y'umukara, kiriho ibirango by'igihugu cy'u Rwanda, icyo cyapa giteye ku gipangu cyubakishijwe amabuye gifite umuryango ukoresheje ibyuma.

Abantu bateraniye hamwe bagaragara ko bari mu nama, bamwe bambaye amakanzu y'umutuku bambaye ingofero z'umukara bafite idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda riri mu mabara atandukanye umuhondo, ubururu n'icyatsi.

Urukiko rugaragara ko ruri mu biro rusoje urubanza, urukiko umushinjacyaha yambaye imyenda y'umukara n'umweru, umucamanza yambaye ikanzu y'umutuku n'ingofero y'umukara urabona ko bicaye mu biro.

Umubyeyi w'umumama wambaye amarineti, wambaye amaherena ku matwi, wambaye ikanzu y'umutuku n'umukara nziza kandi ikoze neza. Ikanzu bigaragara ko idoze mu bitenge bisanzwe kandi byiza.

Mu myambaro izwi nk'inkuze igaragara mu ngororwa zo mu gihugu cyacu cy'u rwanda izingororwa zambaye imyambaro zicaye ziri gukora ibikorwa bitandukanye ariko zifite undi muntu uzirinze wambaye imyenda ya kacye.

Ibyishimo ni byinshi ku bantu bari aha barangije kwiga amasomo atandukanye mu mashami atandukanye y'ibyo bize, barishimye ku munsi wa bo biragaragara ko ibyo bize bagiye kuza hanze kubishyira mu bikorwa na twe tukabona umusaruro wabyo.

Gereza ya Rubavu, iyi gereza irubatse yubakishije amatafari ahiye, ni gereza ndende igororerwamo imfungwa zitandukanye, ni gereza ikoresha.

Icyapa cy'umweru cyandikishijwe amagambo y'ubururu, kiranga aho urwego rwa polisi rwa Rwezamenyo rukorera mu Karere ka Nyarugenge, icyo cyapa ni icyerekana...

Umuhanda nyabagendwa urimo imodoka zitandukanye, zikorera ibigo bimwe bitandukanye, hakurya y'umuhanda hari icyapa cyanditseho Visit Rwanda, hafi yuwo muhanda hari moto zihaparitse nyinshi kandi uwo muhanda uri kugendamo imodoka yanditseho Police iriho n'ikindi kirango cy'ikigo gishinzwe gutanga umuriro.

Ubwirinzi bw'amashanyarazi bugaragara mu mabara atandukanye, rigaragara mu ibara ry'umutuku, irindi rigaragara mu ibara ry'umweru. ubu bwirinzi bukoreshwa iyo habaye inkongi y'umuriro w'amashanyarazi mu rwego rwo kugira ngo tugabanye iyo nkongi tuzimya.

Umuhanda nyabagendwa ugaragaramo ibinyabiziga bitandukanye ujya mu bice bitandukanye. Uyu muhanda hagaragaramo abashinzwe umutekano bambaye imyenda ifite amabara y'icyatsi, umukara, hafi y'abo bantu hari umutaka w'umutuku.

Igikoresho cyifashishwa mu kuzimya umuriro w'amashanyarazi igihe habayeho inkongi, iki gikoresho cyiri mu ibara ry'umutuku kimeze nk'igifite umugozi uzengurutse wifashishwa mu kuzimya uwo muriro.

Umuhanda nyabagendwa uparitsemo imodoka y'abashinzwe umutekano nka polisi. Imodoka iri mu mabara atandukanye harimo, umweru, umukara, umuhondo ndetse yandikishije n'amagambo y'umukara, imodoka ifite amatara hejuru agaragaza uburyo ikora, amatara afite amabara atandukanye harimo umutuku.

umupolisi ahahagaze imbere yimodoka nini iparitse mu kibuga kinini ndende yikigo cya polisi' kirere imodokabwa nini ifite ryumukara polisi yambaye imyenda yumukarayrango cyigihugu i itapa ryigihugu cyuu rwanda

Imodoka nini iri mu bwoko bw'imodoka za leta z'ikigo gishinzwe umutekano polisi. Iyi modoka iragaragara ko ari imodoka izimya umuriro ndetse yifashishwa mu gihe habaye iyo nkongi. Iyi modoka iri mu mabara y'ubururu n'umweru.

Imodoka y'ikigo gishinzwe umutekano cya polisi iparitse mu kibuga giparikwaho izindi modoka, iyi modoka iri mu birango by'amabara y'umukara, umweru, yandikishije amagambo y'umukara iriho n'ikirango cya polisi, ifite amatara hejuru y'umutuku n'ubururu.

Bimwe mu byifashishwa kuzimya inkongi y'umuriro; ibi ni ibikoresho bibiri biri mabara y'umutuku ariko bikaba bifite udutuntu hejuru tw'icyatsi kibisi, tukaba dufite n'ibihombo by'umukara.

Umuyobozi usimbura ibimenyetso byo mu muhanda uzwi nka polisi, aragaragara mu muhanda, yambaye imyenda y'umukara, inkweto z'umukara, ingofero y'umukara, ariko imyenda irimo amabara y'icyatsi, mu mugongo handitsemo ijambo polisi, uyu arahagaritse bisi nini itwara abagenzi yo mu ibara ry'umweru.

Abaturage benshi bambaye imyenda itandukanye irimo ubururu n'umweru bafite n'utudarapo turi mu mabara atandukanye harimo umutuku, ubururu n'umweru abantu benshi bari hamwe bari kwishimira bimwe mubyo bari kubwirwa cyangwa bari kugezwaho.

Umuyobozi wiyamamarizaga kuyobora igihugu cy'u Rwanda, afite idarapo riri mu mabara atatu harimo: umuhondo, mweru, icyatsi ndetse yambaye umupira uriho ayo mabara y'iryo darapo yari afite, uyu yiyamamarizaga kuba perezida w'igihugu.

Iyi foto igaragaza umukandinda wiyamamazaga mugihe cy,amatora y,aba perezida handitseho tora nigihe cy,amatora yarari murwana uy, umukandida nuwo mutsinda ritandukanye aba mu rwanda.

Abantu batandukanye, ingeri zitandukanye, abamama, abapapa, bambaye imyenda itandukanye, aba bari hamwe, bari imbere y'amadarapo abiri y'igihugu cy'u Rwanda ari mu mabara atandukanye, umuhondo, icyatsi, ubururu ndetse.

Umugabo wambaye ikoti y'ubururu imbere harimo umupira w'umweru ushushanyijeho ishusho y'umuntu, uyu ahagaze imbere y'abantu afite indangururamajwi hari ibyo ari kubagezaho bitandukanye.

Umuyobozi ahagaze imbere y'abaturage benshi buzuye iki kibuga yambaye ikote ry'ikositimu ry'umukara imbere ye hari indangururamajwi z'umukara aho ari kugira icyo ababwira yambaye amalineti.

Abagabo batatu bahagaze hagati harimo umugabo umwe uri kwiyamamaza, inyuma yabo hari ibyapa biriho ishusho y'umupapa wambaye ikoti ry'umukara, ishati y'umweru bicaye ku ntebe z'ubururu, hanyuma yabo hari n'abamama babiri bagaragara bambaye imyenda y'umukara.

Umuyobozi wicaye mu ntebe y'umukara, yambaye ikote ry'umukara, yambaye karuvati y'umuhondo, ishati y'ubururu, imbere ye hateretse agacupa k'amazi ndetse hari na mikoro zituma arangurura ijwi rikagera kuri bose.

Umuntu wambaye ibitenge, wicaye ku ntebe ikoze mu mbaho, umu mama yambaye impeta ku maboko ye, yambaye umuringa mu ijosi, no ku matwi, uyu mu mama aragaragara neza, arasa neza, ni umu mama ubona ko.

Umuyobozi w'umuryango wa FPR, ugaragara mumabara y'umutuku, umweru, n'ubururu uyu muryango ukuriwe n'umuyobozi Paul Kagame, uhagaze imbere y'abantu ufite indangururamajwi, yambaye ingofero y'umukara, n'ishati y'umukara iriho ibirango bya FPR.

Bamwe mu bashinzwe umutekano w'umukuru w'Igihugu cy'u Rwanda bazwi nka CTU, aba bari bari aho hateraniye abantu benshi bafite amadarapo arimo amabara atandukanye umweru, umutuku n'ubururu, umuyobozi yari yambaye umupira muremure w'amaboko maremare w'umweru, ipantaro y'umukara, abari bamurindiye umutekano bari bambaye umukara.

Umugabo wambaye ikoti ry'umukara, ishati y'umweru, karovati y'umutuku, inyuma ye umumama wambaye imyenda irimo umutuku n'umukara ariko hacitse mudasobwa imbere ye y'umukara hirya hari undi wambaye ikote wicaye ku ntebe z'imikara.

Abaturage bishimiye ibikorwa byaberaga muri icyo gace bari barimo harimo abamama, abapapa, n'abana. Bose bari kwishimira igikorwa cyaberaga hari amafoto bafite ku mpapuro, bigaragara ko hari umuntu wari kwiyamamaza runaka bari bishimiye uburyo ari kubiyereka.

Abapapa, abamama bahagaze hamwe, bibumbiye hamwe bambaye imyambaro itandukanye. Abamama bakenye bambaye imyenda y'amakoti myiza kandi bagaragara neza. Inyuma yabo hari ibirango by'ibihugu bitandukanye.

Abantu batandukanye bari kugenda ahantu hatandukanye bashaka gukora ibikorwa bitandukanye, haba harimo abantu bari hafi y'ikiyotente gifite ibara ry'umweru abandi bari gusohoka mu mazu amabara y'umweru ndetse asakaje amabati y'umutuku.

Umuhanda wa kaburimbo ugaragaramo imirongo y'imyeru ihagaze yambuka umuhanda, iyi ngiyi isobanura aho abanyamaguru bambukira ikamenyesha umushoferi ko agomba kuhitondera mu rwego rwo kwirinda impanuka.

Umumotari wahetse umufuka urimo ibintu bitandukanye hafi y'umumotari hari ababyeyi bambaye ibitenge bitandukanye, umumotari ari guhabiririzwa n'undi muntu wambaye imyenda y'ubururu y'akazi.

Imodoka z'imizigo ziri mu bwoko butandukanye, hari imodoka ziri mu bwoko butoya, hari mu bwoko bw'ibinyabiziga binini bitwara imizigo myinshi, izi modoka ziri mu mabara atandukanye, hari ifite ibara ry'umweru, hari rifite ibara ry'ubururu ndetse indi ifite ibara ryererutse.

Imodoka y'ubururu itwara imizigo yumuhanda nyabagendwa inyuma yayo n imodokadoka nayo itwara imizigo nini yo ibara ry'umutuku imodoka yasa yijambo poyota kandi imodoka ya toyota iri mumuhanda imbere y'imodoka.

Imodoka ipakira imizigo iri mu ibara ry'mweru, imodoka ipakiye imizigo yapine, aya mapine atwikije shitingi y'ubururu kandi inyuma hari undi muntu ugenda uyandiye umutekano kugira ngo hatagira uyiba.

Moto iri mu ibara ry'ubururu iri mu muhanda nyabagendwa wa kaburimbo, moto itwara imizigo, moto ibara ry'ubururu kandi ifite igitwikirizo cy'umweru kiri inyuma aho abika imizigo, iyi moto itwawe n'umugabo wambaye ingofero y'umutuku.

Imodoka iparitse mu muhanda iririmo ibyerekezo bitandukanye uyu umuhanda mwiza wa kaburimbo haparitse imodoka ifite irangi ry'ubururu harimo n'ibindi binyabiziga bitandukanye; amagare, moto, n'ibindi bifite amabara atandukanye.

Umuhanda nyabagendwa urimo ibinyabiziga bitandukanye, umuhanda urimo ibinyabiziga bitandukanye harimo moto, imodoka n'abantu, ariko uyu muhanda hafi yawo hari inzu igeretse ifite amabara y'umuhondo, amadirishya y'icyatsi.

Imodoka itwara abagenzi iri mu muhanda wa kaburimbo iri mu mabara atandukanye, irimo ibara ry'umuhondo riri mu gace ko hasi, ifite irindi bara ry'umweru riyizengurutse ndetse n'irindi bara ryandikishije amagambo y'ibyo ikora, yandikishije ibara ry'umutuku wahamagara icyenda rimwe icyenda rimwe.

Umuhanda nyabagendwa ikimenyetso bitandukanye mu gice cy'igihugu cy'u Rwanda biri mu kinyabiziga cy'imodoka ibara ry'umweru n'ubururu hakurya y'umuhanda hari ikigo cyubakishije ibyuma by'icyatsi icyo kigo.

Imodoka itwara abagenzi muri rusange izwi nk'ikibusi kinini gitwara abagenzi bagendamo bicaye abandi bahagaze imodoka iragaragara ko iri mu masaha ya nijoro aho yacanye amatara yayo agaragara mu mabara atandukanye rimwe yo hejuru ryaka muburyo bw'umutuku hasi harimo andi yaka mu buryo busanzwe.

Ikinyabiziga cya moto mu muhanda ujya mu byerekezo bitandukanye by'igihugu cyacu cy'u Rwanda, moto ijya muri icyo cyerekezo gitwawe n'umuntu umwe udafite umugenzi hakurya y'umuhanda hari icyapa cyerekana aho ugomba kunyura, iki icyapa kiri mu mabara y'umutuku n'umweru.

Umuhanda nyabagendwa urimo ibinyabiziga bitandukanye, abantu bari kugenda hafi y'uwo muhanda. Mu muhanda haparitse imodoka y'umweru itwara imizigo ntoya, iparitse imbere y'igipangu giteye ibara ry'mweru, gifite urugi rw'umukara, iri gushyirwamo ipine, hafi y'icyo gipangu hari inzu ndende iteye irangi ry'umuhondo.

Imodoka iri mu muhanda, ahagaragara ko itwara imizigo iri mu iba ry'umweru n'umutuku, inyuma yayo hari indi modoka nayo y'imizigo itwara imizigo iri mu ibara ry'umweru, hakurya y'imodoka hari inyubako ndende yubatse neza ifite n'icyapa cy'ibintu gikorerwa muri iyo nzu, hafi aho hari abantu bari mu kazi.

Umuhanda wa kaburimbo nyabagendwa urimo ibinyabiziga bitandukanye, harimo moto itwara abagenzi ndetse n'imodoka itwara imizigo, imodoka itwara imizigo iri mu ibara ry'ubururu, moto itwara abagenzi iri mu ibara ry'umutuku, utwaye iyo moto yambaye ingofero y'umuhondo.

Umuhanda nyabagendwa ugaragaramo ibinyabiziga bitandukanye, harimo moto itwara imizigo, ndetse na moto itwara abagenzi, harimo igare, ndetse harimo n'akayira k'abanyamaguru, karimo umunyamaguru w'ma aha hakagaragara n'inzira y'amazi yubakiye.

Moto z'imisigo, zigaragara mu mabara y'ubururu n'umweru ndetse aba batwara imizigo kuri moto, bafite ibirango bibaranga ku ma moto yabo. Buri moto igiye ifite ikirango gitandukanye n'ikindi, harimo uwashyizeho nimero za telefone ndetse kandi izi moto zikaba ziparitse mu buryo bumwe.

Imihanda y' imigenderanire n'ibinyabiziga bitandukanye mu byirekezo bitandukanye. Buri muhanda ufite amabara ku mpande ndetse no hagati. Mu mpande hari ibara ry'umweru hepfo uruhande ruriho ibara ry'umukara n'umutuku. Hafi aho hateyemo ibiti by'indabo bizwi nk' imikindo. Hagati mu muhanda hateyemo ibara ry'umuhondo.

Imodoka iri mu muhanda nyabagendwa, imodoka igaragara inyuma ifite ibirango bitandukanye ikirango cy'umuhondo kigaragaraho nimero zikiranga, icyo kinyabiziga hari ibindi birango yakoresheje we akoresheje ibara ry'umweru, nka nimero za terefoni ngendanwa.

Umuhanda nyabagendwa ujya mu byerekezo bitandukanye, uhagazemo imodoka nini itwara imizigo ifite amabara icyatsi, umuhondo n'umutuku. Iyo modoka hafi yayo harimo umumotari uri kugenda na we mu cyerekezo cy'ikamyo iri kugendamo. Hafi aho mu nzira y'abanyamaguru hari n'umugenzi uri kugenda.

Umuhanda nyabagendwa wa kaburimbo ugaragara mu gace kamwe n'akamwe ko mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ,kari kugendamo imodoka iri mu ibara ry'ubururu ,iyo modoka iri kujya mu duce dutandukanye kandi hafi y'umuhanda hari ikigo cy'ubakishije amabati y'ubururu gifite imiryango y'umutuku icyo kigo kiri munsi y'ibiti.

Umuhanda nyabagendwa ugendwamo n'imyore bitandukanye biri mu kazi gatandukanye mu muhanda uri kugaragaramo imodoka nini itwara abagenzi iriho ibirango bitandukanye, iriho ikirango cy'umuntu ndetse n'amagambo yanditse ngo collo fol generation imodoka iri inyuma y'amamoto abiri afite amabara y'umutuku

Iyi modoka ishinzwe gutwara imizigo, igaragara mu ubwoko bwa dayihatsu iyi modoka hafi yayo hari umuntu wikoreye umufuka, imodoka igaragara ko yanditseho amagambo yandikishije ni ibara ry'ubururu.

Umuhanda ujya mu byerekezo bitandukanye ugaragaramo ibinyabiziga bitandukanye, abamotari, abanyonzi, imodoka nini n'intoya zijya mu byerekerezo bitandukanye, umuhanda uragaragara ko ugendwa, uri nyabagendwamo na buri wese.

Imodoka ifite amabara atandukanye, umweru n'umuhondo. Imodoka iri mu muhanda nyabagendwa ujya mu bice bitandukanye. Kandi uyu muhanda nturimo imodoka gusa, urimo na moto zitwara abagenzi, nazo ziri kujya mu bice bitandukanye by'igihugu.

Imodoka itwara imizigo iri mu mabara y'umweru ariko ifite amagambo yandikishijeho amabara y'ubururu, iyi modoka iri mu muhanda nyabagendwa kandi ugana mu bice bitandukanye, hepfo y'umuhanda haragaragara ibiti bitandukanye.

Umuhanda wa kaburimbo uri nyabagendwa ugaragaramo ibinyabiziga bitandukanye, mu masaha ya ninjoro. Ibinyabiziga harimo imodoka nini itwara imizigo y'umutuku ndetse n'indi y'utwara abagenzi y'umweru ifite n'ibara ry'umuhondo. Imbere yaho hari icyapa cyerekana gukata mu kindi cyerekezo kiri mu ibara ry'ubururu.

Imodoka y'umweru itwara abagenzi mu bwoko bwa rusange, iyi modoka iri mu gisate kimwe, hepfo mu kindi gisate hari moto itwara nayo abagenzi rusange bajya mu bice bitandukanye.

Imodoka itwara abagenzi muri rusange imodoka nini igaragara mu mabara y'umweru n'ubururu, iyi modoka iragaragara ko ifite ikirango RAH ijana magana atandatu na kabiri D.

Umuhanda ujya mu byerekezo bitandukanye, kandi urimo ibinyabiziga bitandukanye, umuhanda ugaragaramo amabara y'umweru n'umukara harimo:moto, imodoka ndetse n'igare biri kujya mu bice bitandukanye.

Imodoka y'imizigo iri mu muhanda nyabagendwa, imodoka y'imizigo ihetse ibintu by'ibyuma ndetse hejuru hariho n'undi muntu ushinzwe kubirindira umutekano, hafi y'imodoka hari abagenzi nabo bari kugenda mu muhanda wabo wabagenewe.

Imodoka nini zitwara abantu muburyo bwa rusange zigaragara mu mabara y'ubururu n'umweru, zikorera mu duce dutandukanye tw'umujyi wa kigali. Izi modoka ziri ahahagaze hamwe aho zisanzwe ziparika hazwi nko mu kibuga ziparikamo imodoka zitwara abagenzi kimuherereye.

Igare rihetse imifuka riri kugenda mu muhanda nyabagendwa, iri gare rihetse imifuka ariko hejuru hari intebe y'umusego wiciraho nk'abagenzi bagenda kuri iryo gare, iri gare imbere yaho hari imodoka nini zitwara imizigo zacanye amatara.

Moto zitandukanye bagenewe gutwara imizigo. Ziri mu mabara atandukanye hagati y'izo moto ziri mu mabara atandukanye, harimo umuntu wambaye ipantaro y'ubururu, yambaye ingofero y'umutuku, yambaye inkweto z'umuhondo zifunguye, yambaye agapira mo imbere karimo ibara ry'umutuku n'umukara.

Imodoka nini itwaye imizigo iri mu ibara ry'umutuku ihetse umucanga wo gukoresha mu myubakire, hepfo y'iyo modoka hari indi ihetse imizigo ifite shitingi iyitwikiriye y'ubururu, ni imodoka zitwara imizigo ziri mu muhanda nyabagendwa.

Umuhanda nyabagendwa urimo ibinyabiziga bitandukanye bitwara imizigo ndetse n'iby'abantu ku giti cyabo, imodoka itwara abantu ku giti cyabo ifite ibara ry' umweru n'umukara ndetse hafi hari umuntu wikoreye umuzigo mu mufuka w'umweru. Imodoka nini ifite ibara ry'ubururu n'umweru.

Imodoka nini iri mumuhanda nyabagendwa imibaremweru ifite utumo twumutuku iyi modoka ihura n'izindi nazuzuye mumabara y'umweru ntoya zitwara mizigo ndetse n'izindi zitwara abantu ku gidi cyabo hafi yimodoka nini hari igare rihetse umuntu wambaye imyenda yubuubururu utwa yambaye imyenda y'icyatsi.

Icyapa ifite umuzenguruko umwe, gifite ibara ry'ubururu. Kigaragaza aho imodoka ziparika cyangwa abagenzi aho bazifatira. Hafi y'icyo cyapa hari ikindi cyapa kiriho intore ziri kubyina...

Imodoka nini itwara imizigo ndende iriri mu ibara ry'umweru. Imodoka iparitse mu muhanda ahagaragara ko hatari abantu benshi. Ariko imodoka iri hafi y'ahantu hari ahacuruzwa ibyo kunywa nk'inzoga.

Imodoka itwara abagenzi izwi nka tax ifite amabara atandukanye umweru, icyatsi ndetse iyi modoka iparitse aho zisanzwe ziparika nk'izindi zitandukanye, aha ngaha hahurira abantu benshi bagana mu duce dutandukanye bifashishije izi modoka.

Umuhanda nyabagendwa ugenda mu ibyabiziga abantu batandukanye bajya mu bice bitandukanye ikinyabiziga ki kugaragara muri uyu muhanda imodoka nini itwara abagenzi i zifite amabara y'ubururu n'umweru, hafi y'imodoka hagaragara abagenzi bajya nabo mu bice bitandukanye kandi nabo batandukanye harimo abapapa n'abamama.

Imodoka ntoya iri mu muhanda wa kaburimbo nyabagendwa utwara imizigo, uyu muhanda uragaragaramo ibice by'ibinyabiziga ndetse n'igice cy'abanyamaguru, ariko hafi y'igice cy'abanyamaguru hari umuhanda wambukirwamo ucamo amazi.

Imodoka nini itwara abagenzi iri mu ibara ry'icyatsi n'umuhondo. Iyi modoka iri kugenda mu masaha ya n'ijoro yacanye amatara kandi iyi modoka si yo yonyine inyuma yaho hari izindi nazo ziri gucana amatara arimo iy'umutuku, umweru ziri kujya mu byerekezo bitandukanye mu bice by'igihugu cyacu.

Imodoka nini itwara imizigo iri muhanda, iri mu mabara atandukanye, mu mabara y'icyatsi, inyuma hari ibara ry' cyatsi n'akandi kayizengurutse k' muhondo. Iyi modoka imbere mu kirahuri cyayo haragaragaramo idarapo ry'gihugu cyu Rwanda, harimo ubururu, umuhondo n'icyatsi.

Umuhanda nyabagendwa ujya mu cyerekezo gitandukanye urimo imodoka y'imizigo y'umweru ifite igitwikirizo cy'umukara, imbere yayo hari umuntu ufite igare uhetse umufuka, umuntu yambaye ipantaro y'ubururu kamambiri z'uburu.

Igare rigaragara ko riparitse mu muhanda, rihetse imifuka ibiri umwe n'umuhondo undi n'umweru. hafi iryo gare hari moto y'umukara iri kuhaca itwawe n'umupapa uhetse umumama, iyo moto.

Imodoka ishinzwe gutwara abagenzi nini ndende ,itwara abagenzi benshi cyane, iri mu mabara y'umweru n'ubururu. Imodoka irimo abagenzi batandukanye, barimo abicaye n'abahagaze. Iyi imodokadoka hafi yayo hari umugenzi uri kugenda mu muhanda w'amaguru, utari muri iyo bisi y'abagenzi.

Imodoka nini itwara imizigo iri mu ibara ry'umweru, iri mumuhanda nyabagendwa urimo ibindi binyabiziga bitandukanye harimo nka bisi itwara abantu, iri mu bara ry'ubururu. Inyuma yiyo bisi harindi modoka ntoya itwara abantu batari benshi iri mu ibara ry'umukara.

Imodoka igaragara ko ihetse imizigo mwinyinshi kandi iremereye iri kugana mu muhanda mubice bitandukanye .Iruhande rwayo hari abamotari bari kuyicaho bakomeza bajya aho iyo modoka iri kwerekeza; imodoka ifite shitingi y'uruburu, imodoka isa nk'umweru.

Agaragara mu mujyi ahantu hasa neza cyane hateye imbere, ahantu hagenda abaturage nta binyabiziga bijya bihagenda hagaragara nk'ahagenda abaturage gusa hari udutebe two twicaraho tukaganira hari akayaga, hari ibiti bitanga akayaga, hari inyubako nziza buri kimwe cyose rwose urabonako hasa neza ari ahantu ho kwifotoza cyangwa kuganirira.

Udutebe twicaraho abagenzi bari kuganira, utwo dutebe dukoreshwa iyo ushaka kwicara uganira n'umuntu, ureba buri kimwe abahisi, n'abagenzi ndetse n'ibindi bice byinshi biri aho, aha hahicayeho abantu batandukanye, kuri utwo dutebe kandi hari n'indabo zitandukanye.

Ikibuga cy'umupira w'amaguru kigaragara cyubatse neza, gikoze kirimo abakinnyi bagenda bakora siporo zitandukanye, ahangaha iki kibuga kiragaragara ko ari ikibuga gusa cyateye imbere kiri n'ahantu heza hateye, gukora siporo kuko siporo ni ingenzi mu.

Abana bari mu kibuga cy'umupira bari gukina, abana bari ahagaragara ishuri, inyubako nziza igeretse gatatu, iyo nyubako yubakishije amatafari ahiye isakaje amabati y'umutuku.

Ikibuga gikikijwe n'ibimera bitandukanye imbere harimo icyatsi harimo izamu ibiti by'umweru ndetse n'inshundura rizengurutse iryo zamu babasha kuba batsindamo, iki kibuga kiraringaniye kandi kimeze neza.

Ikibuga kinini kirimo amapavee iki'ikibuga kigaragaramo aho baparika imodoka ndetse n'ibindi binyabiziga, ikibuga kirimo indabo zitandukanye kandi kigaragara nk'igikorerwamo ibindi bikorwa nko gukomeza kucyubaka.

Ikibuga kirimo amabara atandukanye, ikibuga kirimo ibara ry'umutuku rizengurukijwe ibara ry'umukara, hepfo yicyo kibuga hari ibyatsi bitoya bitarakura, iki ikibuga kirimo ibara ry'umutuku, hagati kiragaragaramo amabara y'umweru, ariko atagera ku kibuga cyose.

Icyapa kigaragara mu ibara ry'umukara kiriho umuhondo, icyapa kiramenyesha ko hari umuhanda ushamikiyeho ku ruhande winjira mu bari kumenyesha icyapa gishyirwa imbere aho kiri bukwereka ko ibiri imbere bigiye kuba, iki cyapa gikoreshwa mu muhanda.

Gifite umuzenguruko ku mutugu kigaragaza abanyamaguru aho bambukira icyapa kirimo umuntu ushushanyijemo uri mu ibara ry'umukara cyapa gishyirwa ku muhanda ahantu hari akayi k'abanyamaguru bambukiramo umuhanda.

Icyapa cyo ku muhanda kigaragara munsi y'inzu gifite uruzitiro rw'ibyuma ruyizengurutseho, icyapa kiri mu ibara ry'umuku kiragaragaza aho abanyamaguru bambukira, iki cyapa gishushanyijemo umuntu uri mu ibara ry'umukara kandi icyapa..

Icyapa cy'umuhondo gifite umuzenguruko w'umukara giteyeho irangi ry'umutuku n'irindi ry'umukara. Iki cyapa kiramenyesha bimwe mu biri imbere aho turi kugana.

Icyapa gifite umuzenguruko w'umutuku, kirimo ibara ry'umweru, igishushanyo kirimo ushushanyijeho umuntu, gifite ibara ry'umukara kigaragaza aho abanyamaguru bambukira. Iki cyapa giteye ku muhanda w'igiti gishinzwe gukwirakwiza amashanyarazi.

Icyapa gifite umuzenguruko w'umutuku gifitemo ibara ry'umuhondo, kigaragaza aho bambukira abantu, iki icyapa aho bambukira biragaragara mu ibara ry'umuhondo hashushanyijemo n'umuntu werekana uburyo abanyamaguru bambuka.

Ibyapa bibiri bigaragara amabara atandukanye; icyapa kiragaragara mu ibara ry'icyatsi kinshi, amagambo y'umweru ikindi kiragaragara mu ibara ry'umweru cyanditswemo amagambo y' umukara, ibyapa biravuga ibintu bitandukanye.

Umuhanda wa kaburimbo ugizwe n'ibintu bitandukanye, harimo icyapa kigaragaza ko imbere hari undi muhanda ushamikiyeho, iki cyapa gifite umuzenguruko w'umutuku, gifite ibara ry'umweru ndetse kiragaragaza aho umuhanda ushamikiyeho, ushushanyije ibara ry'umukara.

Icyapa cy'ibara ry'umweru yandikishijeho amagambo y'umukara kivuga ngo murakaza kaza neza mu gihugu cy'u Rwanda, icyapa hahagazemo undi muntu uri kwifotoreza muri icyo cyapa uri munsi y'icyapa ugaragaza ko ari byiza kuza mu Rwanda abyishimiye.

Icyapa kigaragaza ko imbere hari ubusumbane ku muhanda icyapa gifite umuzenguruko w'umutuku kirimo ibara ry'umweruri, kiri hafi y'inyubako nziza, yubatse neza kandi ifite ikoranabuhanga, hejuru hari ibikoresho bitandukanye bikora bitandukanye kandi isakaje amabati y'umukara, ifite amabara atandukanye.

Icyapa cyo mu muhanda gifite umuzenguruko wumutuku gifite ibara ry'umweru cyanyandikishijemo ikiranga kibara ry'umukara icyapa gisobanura umuhanda wambukiranyamo undi ,umwe ukomeza undi wambukiranyamo uwundi uri imbere .

Icyapa kibuza amagare kunyurwa. Iki cyapa kiri mu ibara ry'umutuku, umweru, n'umukara. Icyapa kikabuza igare kwemererwa kunyura aha ngaha hatamerewe kunyurwa kandi ntibyemewe kunyura aha ngaha icyapa kiri kubuza.

Ibyapa byo ku muhanda biri ku giti kimwe ariko bisobanura ibintu bitandukanye, icyapa cy'ubururu kirimo ishusho y'umweru n'umukara gisobanura aho abanyamaguru bambukira, ikiri munsi yacyo cyo gifite umuzenguruko w'umutuku n'ishusho y'umweru n'umukara kivuga kwitondera kunyuranaho.

Icyapa cy'umuzenguruko w'umutuku, kirimo ibara ry'umweru gishinze muhanda kimenyesha icyitonderwa biri imbere, icyapa kiragaragara hafi y'ahantu hari ibimera by'ibiti bigikikije.

Icyapa gifite amabara atandukanye, icyapa gifite umuzenguruko w'umutuku cyandikishije ibara ry'umutuku, icyapa kirasobanura harabujijwe guparika aha ngaha, ntihemewe kuhaparika kuko nta mwanya wo kuhashyira uhari.

Icyapa gifite umuzenguruko w’ibara ry’umutuku; imbere yacyo harimo ibara ry’umweru, hashushanyijwemo ikimenyetso kibuza imodoka. Gifite ishusho y’umukarago kigaragaza ko imbere hari umuhanda ushamikiyeho, ugomba kwitondera kugenda neza.

Icyapa gifite umuzenguko umutuku, gifitemo ibara ry'umweru, hagati hagaragaramo amashusho y'abantu babiri bafatanye ukuboko bari mu mabara y'umukara, aha biragaragara yuko ari umuhungu n'umukobwa muri iyi shusho.

Icyapa kirimo amabara atandukanye. Iki cyapa kizengurukijweho ibara ry'umutuku gifite umweru n'umukara, iki cyapa kiramenyesha ko imbere hari igikorwa kiri kuhakorwa cyo gusana ibikorwa biri imbere, iki cyapa kiri hasi kuri jaride.

Icyapa cyo ku muhanda cyerekana nimero z'agace ugezemo. Iki cyapa kiri mu ibara ry'umweru rifite umuzenguruko w'umukara, cyandikishijweho amagambo y'ibara ry'umukara. Iki cyapa kiri ahantu mu gace hari ibiti byinshi.

Icyapa cy'umutuku giteye ku muhanda hafi y'inzu y'umuhondo iriho icyapa cy'irembo ifite n'urugi rw'umuhondo. Hari abamotari benda kwinjira mu muhanda uhuriramo n'undi bahagaze ku nzira y'abagenzi bambukiraho.

Icyapa giteye mu butayu kimenyesha ikorosi imbere, iki cyapa kiri mu ibara ry'umuhondo ariko ibyo kimenyesha byandikishije ibara ry'umukara, iki cyapa kiri ahagaragara ko nta kimera na kimwe gihari ariko hagaragara umuhanda ukomeza imbere.

Icyapa gifite ibara ry'umuzenguruko w'umutuku, gikoreshwa mu muhanda, kirimo ibara ry'ubururu mo imbere, kimenyeshwa imihanda ahahagararwa, iki cyapa gisobanura byinshi iyo gishyizwe ku muhanda nko kuvuga ngo ntihemerewe guhagararwa umwanya muto.

Icyapa kiri mu bwoko bw'uruziga kiri mu ibara ry'ubururu, cyanyandikishijemo umweru cyemeza ko ugomba kunyura, icyapa kivuga aho unyura kigaragara mu ibara ry'ubururu mu muzenguruko w'uruziga.

Icyapa gifite umusemburoko w'umutuku kimenyesha umuhanda ushamikiyeho ariko aho ngaho kimenyesha byandikishije amabara y'umukara. Iki cyapa kiri ahashyirwa ku muhanda kugira buri wese utware ikinyabiziga cyangwa uhagana amenye ibiri imbere.

Icyapa kigaragaza abanyeshuri aho bambukira kiri mu ibara ry'umutuku cyandikishije umukara kirimo n'umweru, icyapa giteye hafi y'igiti gishinzwe gukwirakwiza amashanyarazi kandi giteye hafi y'indabo ziri ku muhanda.

Icyapa, gifite umuzenguruko w'umutuku, imbere mu cyapa harimo ibara ry'umweru, n'akandi kabara k'umukara, kerekana ko imbere yawe hari ubuzamuke bw'umuhanda, ugomba kuhitondera.

Umuhanda ujya mu byerekezo bitandukanye, hakurya y'umuhanda hari ashite y'icyapa cy'umutuku n'umweru, inyuma y'icyo cyapa hari ibiti byo mu busitani, indabo zitandukanye zigaragara neza zituma umuhanda usa neza, izo ndabo harimo imikindo n'ibindi bitandukanye.

Icyapa giteye hafi y'ishyamba, icyapa kandi gikoreshwa mu muhanda, icyapa gifite umuzungu w'umuhondo, gifite ibara ry'ubururu n'umweru. Icyapa kigaragaza aho abanyamaguru bambukira, umuhanda, mu rwego rwo kurinda agisida.

Ibyapa bitatu biri ku muhanda, biri mu mabara atandukanye, icyapa kimwe kiri mu ibara ry'icyatsi, ikindi kiri mu ibara ry'umweru cyandikishijeho amagambo y'umukara, ikiri mu ibara ry'icyatsi cyandikishijeho amagambo y'umweru, ikindi kiri mu ibara ry'umutuku, ibi byapa biramenyesha ibintu bitandukanye, biteye ku muhanda.

Umuhanda nyabagendwa ugaragaramo ibinyabiziga bitandukanye, arimo moto ndetse uwo umuhanda uragaragaraho icyapa gifite umusengukuruko w'umweruru gifitemo ibara ry'umutuku mo imbere handishijije amagambo y'umweru, hafi y'icyo cyapa hari indabo zitandukanye harimo ibyatsi ndetse n'ubundi buti bwiza butanga ishusho nziza kuri uwo muhanda.

Icyapa gifite umuzenguruko w'umutuku gifitemo ibara imbere ry'umuhondo, iki cyapa kiramenyesha ko imbere hari ibintu biri kuhakorwa by'ubwubatsi, icyapa gifitemo umuntu ushushanyijemo uri kugaragaza ibyo bikorwa biri imbere bari gukora.

Ishuri ry'irerero ry'abana riteye imbere bagaragara bari kubyicungo by'abana, abana bambaye umupira w'umuhondo, ikabutura y'umukara irimo uturongo tw'umweru, iri ishuri ni iry'incuke rigaragara neza ko ryateye imbere.

Agace gatuwe neza, karimo inzu nziza zigeretse, zifite iterambere kandi zifite n'amabara atandukanye. Aka gace kagaragaramo ko gatuwe n'abantu batari bakeya kandi bahuye n'iterambere. Inzu zimwe na zimwe zifite ibara ry'umukara, izindi umutuku n'ubururu, izi nzu zirageretse, ahantu hose zigaragara neza cyane.

Inzu nziza yubatse neza mu buryo bwiza kandi bugezweho, hafi y'iyo nzu hari imodoka y'umutuku nayo nziza, iyo nzu ni inzu bacumbikamo abantu ikora nk'aho ibafasha mu kubona aho baba.

Inzu zubatse mu buryo bugezweho kandi ziri ahatuwe, zifite amabati y'umutuku atandukanye ndetse ziteye amarangi y'umuhondo ziri hafi y'umuhanda. izi nzu ziragaragara ko ziri ahateye imbere, hagaragara umuriro w'amashanyarazi.

Umuhanda wa kaburimbo uri muri karitsiye zimwe zigize igihugu cyacu, uyu umuhanda uri hagati y'inzu zubatse neza mu gihe kigezweho kandi ziteye amabara meza. Uyu muhanda uri muri karitsiye zisa neza kandi zituje ugendwamo n'ibinyabiziga ndetse n'abanyamaguru.

Igiti cy'amashanyarazi, giteye mu ndabo za pasiparume. Igiti kiri hafi y'igipangu, cyubatse neza, cyubakishije amatafari ahiye. Nyuma y'icyo gipangu hari inzu igeretse nziza kandi isa neza. Iri mu mabara y'umutuku, ikingishije ibirahure n'andi mabara y'umukara.

Inzu nziza iteye amarangi y'umukara kandi inzu igeretse yubatse mu buryo bugezweho, iri hafi y'indi nzu nziza nayo yubakishije amabati y'umweru, hafi y'izo nzu hari ikigega gifata amazi kandi izo nzu zikorotishijwe igipangu cy'amatafari ahiye.

Ahazwi nko muri pariki nyandungo hateye ibiti bitandukanye harimo inyamaswa zitandukanye. Aha ni byiza kuhasura kuko hari icyo bafasha umuntu mu kuruhuka mu mutwe ndetse no kumenya ibintu bitandukanye bigize igihugu cyacu.

Mu muhanda nyabagendwa ugaragaramo abantu benshi ibinyabiziga byinshi bitandukanye harimo moto, imodoka. Hafi y'uwo muhanda hari inyubako nziza ndende igeretse gatatu kandi ubona ko ifite iterambere ry'amashanyarazi uwo muhanda.

Ahagaragara nk'inzira y'abanyamaguru hafi y'iyo nzira y'abanyamaguru hahagaze umutaka wa MTN uri mu ibara ry'umuhondo, hafi y'uwo mutaka hari imodoka zihaparitse z'umukara ndetse hari n'igiti cy'amashanyarazi gishinzwe gukusanya umuriro cyohereza mu baturage baturiye aho hafi.

Agace gatuwe n'abaturage benshi kandi kagaragara ko gafite iterambere, aka gace karimo inzu zitandukanye harimo izubatse zigeretse n'izindi zubatse mu buryo busanzwe, izi zifite amabati atandukanye kandi zubatse mu buryo butandukanye.

Inyubako igeretse; nziza ituye hafi y'umuhanda wa kaburimbo, hafi y'iyo nyubako hari imodoka iparitse y'umweru ntoya, hafi y'inyubako hahagaze abantu bambaye imyambaro y'ubururu isa. Iyo nyubako ni iy'ubucuruzi igaragara mumabara y'umuhondo n'umweru n'umukara.

Aka gace karimo inyubako zigizwi n'inganda aka gace karimo inyubako zitandukanye zitse mudo zitandukanye kuko zubabatse ziteye amabara y'ubururu izindi zubakishije atafahiye zifite imirongo y'imihondo izi nyubako ziherereye mu gace kazwi nk'akahariwe inganda.

Mu muhanda ujya mu byerekezo bitandukanye mu bice bimwe by'igihugu cyacu, harimo imodoka y'umukara iri ahantu hamwe iri kugenda. Iyi modoka iparitse mu muhanda iri kujya mu byetekerezo bitandukanye. Hafi y'umuhanda hari ibiti bishinzwe gutanga amashanyarazi mu baturage.

Agace gatuwe n'abaturage benshi ka garagaramo amazu atandukanye kandi afite ibirango bitandukanye aka gace karimo amazu asakaje amabati y'umutuku andi asakaje amabati y'umweru ateye amarangi atandukanye.

Inyubako ndende yubakishije amatafari ahiye igeretse, inyubako iragaragaraho ibyapa bitandukanye biri mu mabara atandukanye, icyapa kimwe kigaragara ko cyanditseho banki ofu Kigali iherereye mu Giporoso, iyo ni ishami ry'i Kigali Giporoso, iyo nzu iriho n'ikindi cyapa kiriho moto y'amashanyarazi.

Inzu nziza zigeretse kandi zigaragara ko zubatse neza mu ikoranabuhanga, izi nzu ziri hakurya ahantu kure hatuwe neza kandi hubatse bikwiye byiza cyane bigaragarira buri wese.

Agace k'inyubako zitandukanye gatuwe cyane gaherereye Kimironko. Kimironko ni agace kagaragara ko gatuwe neza kandi kari gutera imbere muburyo bwose. Inyubako zitandukanye, izigeretse n'izitageretse. Aka gace ni keza, gatuwe cyane mu mujyi wa Kigali.

Umuhanda ntagendwa mu binyabiziga atandukanye kandi umuhanda muke n'abagenzidisha amaguru, uwo muhanda urimo imodoka y'umweru iri kugenda mu muhanda ariko hakurya hari izindi ziparitse; iy'umweru n'izindi ebyiri z'umutuku ariko harimo na moto nazo ziri kugenda mu muhanda.

Inyubako nziza igezweho igeretse gatatu nziza cyane igaragara mu mabara y'umutuku, umuhondo, umukara urabona ko ari inzu nziza cyane iri ahantu heza kandi ifite iterambere.

Imodoka ziparitse imbere y'inzu ifite ibirango bitandukanye. Izi modoka na zo ziri mu mabara atandukanye. Imodoka iri mu ibara ry'umukara ifite purake eri, ha, ja, rimwe, kane, gatanu, ja. Iyi modoka iri mu ibara ry'umukara.

Umuhanda ugaragara wama pave umuhanda wa nyamabuye, hafi y'uwo muhanda ni hari icyapa cyabagenzi gihagararaho bisi izindi modoka zitandukanye, umuhanda urimo ibinyabiziga bitandukanye bijya mu byerekezo byombi.

Umuhanda nyabagendwa uri mu gihugu cy'u Rwanda mu gace gatandukanye, umuhanda usa neza, uteye indabo ku ruhande zitandukanye. Umuhanda urimo ibinyabiziga bitandukanye, moto n'imodoka bijya mu byerekezo bitandukanye bigize igihugu cyacu.

Umuhanda nyabagendwa ujya mu bice bitandukanye mu gihugu cyacu. Umuhanda uturiwe n'amazu meza, yubatse neza kandi na yo afite ubwiza butandukanye. Uyu muhanda urimo ibinyabiziga bitandukanye, harimo moto ndetse uyu muhanda uri kugendwamo n'abantu batandukanye, bajya mu bice bitandukanye.

Umuhanda nyabagendwa uherereye mu gace kamwe k'igihugu cy'u rwanda hagaragara ibinyabiziga bitandukanye moto, amagare hakurya y'umuhanda hari imodoka ndende zamakamyo zitwara imizigo imodoka imwe ifite ibara ry'umuhondo n'umweru n'indi umutu n'umweru.

Umuhanda nyabagendwa uragaragara ko ufite undi hejuru yawo nawo nyabagendwa w'ibinyabiziga bitandukanye, uwo hasi urimo ibindi by'ibinbiziga bitandukanye abantu, amagare, ama moto, n'ibinyabiziga by'imodoka, umuhanda n'inyabagendwa hasi no hejuru.

Ikinyabiziga cy'imodoka y'umutuku cy'iri mu muhanda, kiri kujya mu cyerekezo bitandukanye by'umujyi wa Kigali, haragaragara neza hari isuku aho kigana ubona ko hameze neza, iterambere ry'igihugu riri kugaragara aha ngaha kw'ifoto.

Umuhanda ugaragara ko ari munini ugaragaramo icyapa cy'abagenzi babiviramo cyangwa bategera. Uyu muhanda uragaragaramo ibinyabiziga bitandukanye harimo moto, harimo imodoka zitandukanye iz'imizigo n'izitwara abagenzi. Harimo n'abagenzi bari kugenda ku muhanda hagaragara n'ibiti bishinzwe gutanga umuriro.

Imihanda nyabagedwa iri mu byerekezo bitandukanye mu gihugu cy'u Rwanda, ariko uyu muhanda aragaragara ko umuhanda uri hakurya ajya mu cyerekezo kimwe, n'umuhanda mu cyerekezo cy'undi, hano umuhanda ugaragara w'undi w'ama pave winjira muri wa wundi wa kaburimbo.

Umuhanda nyabagendwa ujya mu duce dutandukanye t mu gihugu cy'u rwanda urimo ibinyabiziga bitandukanye harimo moto mu modoka zitandukanye harimodoka iy'ubururu ihetse indi y'umukara hari moto ihetse gaz nayo hari indi moto ihetse abagenzi kandi bigaragara ko biri gukata aho bita mu masangano y'umuhanda.

Abantu babiri bari kwambuka umuhanda, bamumbushyira ahagenewe, harimo ikinyabiziga cya moto cyabasanze aho bambuki. Kitarindiriye kubareka ngo babanze bambuke kibone gukomeza urugendo, cyabasanzemo.

Umuhanda nyabagendwa urimo imodoka zitandukanye, kumuhanda haririmo imodoka zitandukanye iy'umutuku n'indi modoka y'umweruru ziri mubyerekezo bitandukanye hasi y'imodoka hari icyapa cy'mutuku n'umweru.

Umuhanda nyabagendwa urimo ibinyabiziga bitandukanye, umuhanda ugezweho umwe uca hasi undi uca hejuru, aha ngaha ni mu gace ka Kicukiro santere hagaragara, uyu muhanda urimo ibinyabiziga yaba moto cyangwa imodoka, bica muri uyu muhanda ugezweho.

Umuhanda nyabagendwa urimo ibinyabiziga bitandukanye, harimo moto itwara abagenzi ndetse na moto itwara imizigo, moto y'abagenzi iri mu ishusho y'amabara y'umutuku ariko moto y'imizigo iri mu ibara ry'ubururu. Uyu muhanda urimo na yo imirongo y'umuhondo hagati mu muhanda. Hepfo y'umuhanda hari amabara y'umweru n'umukara.

Umuhanda wa kaburimbo umaze igihe kinini washaje ugaragaramo aho wagiye upfa usaduka, uyu umuhanda urimo amazi menshi asa nabi ndetse n'umuhanda ugenerwa n'ibinyaziga bitandukanye harimo imodoka nini zitwara abagenzi ndetse na moto zitwara abagenzi n'amagare.

Umuhanda nyabagendwa ufite ibyerekezo bitandukanye by'igihugu cy'u Rwanda uri ku kinamba harimo ikinyabiziga cy'imodoka ariko inyuma y'ikin kinyabiziga hari ibindi binyabiziga nka moto n'abantu bari kujyana mu muhanda.

Umuhanda nyabagendwa. Uyu muhanda hafi yawo hagaragara icyapa kigaragaza ko hari ishuri ndetse n'inzira abanyamaguru bambukiramo. Inzira y'abanyamaguru iri mu ibara ry'umweru ndetse hafi aho hari n'abanyeshuri bari kuyikoresha iyo nzira.

Uyu muhanda uri mu gace kamwe mu tugize u Rwanda, umuhanda ni mwiza wubatse neza kandi urakomeye, uyu muhanda urimo ibinyabiziga bitandukanye biri kujya mu bice bitandukanye, ikinyabiziga kirimo imodoka itwara imizigo y'umweru.

Umuhanda nyabagendwa ugaragaramo ibinyabiziga bitandukanye bijya ahantu hatandukanye umuhanda hasi hateye ibimera bitandukanye kandi uyu muhanda ufitemo imirongo y'umukara, umweru hakurya y'umuhanda aho urangirira.

Ni umuhanda urimo ibinyabiziga bitandukanye, umuhanda werekeza mu bice bimwe na bimwe bitandukanye. Ni umuhanda urimo ibinyabiziga bitandukanye harimo moto, imodoka nini n'intoya kandi uwo muhanda urabona ko ufite isuku, ubaze neza, ukomeye. Hakurya y'uwo muhanda hari indabo zitatse uwo muhanda, hafi hari n'ibiti biriho amashanyarazi, bitanga urumuri muri uwo muhanda.

Umuhanda nyabagendwa uhuriwemo n'imodoka zitandukanye haba izimizigo ndetse n'iz'abantu ku giti cyabo, uyu muhanda ufite utuyikikije ku ruhande mu mabara y'umukara n'umweru, kandi haciyemo imirongo iri'i ibara ry'umuhondo imodoka itwara imizigo ifite ibara ry'umweru n'rindi n'utundi duto tw'umuhondo imodoka inyuma yayo hari moto itwara imizigo irimo ibara ry'ubururu n'umukara.

Umuhanda nyabagerwa harimo amabara atandukanye harimo umweru, umukara, umweru bivuga aho abagenzi bambukira naho umuhanda urimo ibinyabiziga bitandukanye haririmo moto ndetse n'imodoka z'imizigo ndetse n'izindi zitwara abantu ku giti cyabo.

Umuhanda nyabagendwa, ufite ibice bibiri bijya mu byerekezo bitandukanye, uwo muhanda aho urangirira hari amabara y'umukara n'umuhondo, uyu muhanda mo hagati mu muhanda acishishejemo umurongo w'umuhondo.

Umuhanda nyabagendwa ukoreshwa mu buryo butandukanye kandi ukoreshwa n'ibinyabiziga ndetse n'abantu, aha hagaragaramo ikinyabiziga gifite ibara ry'ubururu, kigize imirongo y'imyeru ihagaze yambukiramo abanyamaguru

Umuhanda nyabagendwa urimo ibinyabiziga bitandukanye ibimanuka n'ibizamuka ,ndetse uyu muhanda uri kugendamo moto n'imodoka ,ndetse n'abanyamaguru ku ruhande bajya muri gahunda zabo zitandukanye. Uyu muhanda hagaragara aho imodoka zitwara abagenzi cyangwa izindi ziparika cyangwa aho abantu bafatira izo modoka.